Inyama, inyanya, amasarade, isahani imeze neza ni ibiryo rwose bisa neza cane, byatekanywe isuku, abantu babitetse barabyigiye, ni ibiryo ubona ko bigaragara neza.

Ahantu bacururizaga inyama zimeze neza, barazibaze bazishyira ku byuma byabugenewe kugira ngo baze baziteke. Inyama ni zimwe mu biryo bitangaga ubuzima, zubakaga umubiri.

Abatetsi babaga bambaye imyenda z'akazi ingofero z'umweru, amataburiye ndetse n'udupfukantoki batekeraga ahantu heza habugenewe. Inyama zimeze neza inyama ni zimwe mu biryo, byubaka umubiri zidufitiye akamaro kanini cane.

Amazu gwubatswe neza ndetse n'inzitiro zigakikije, zikozwe mu bisika, ariko izi nzitiro ntabwo ari zo zijanye n'iterambere, kuko ziri ku muhanda, zigomba kuvugururwa, zikubakishwa ibikoresho byabugenewe.

Urugi rw'ibyuma ndetse rukoreshejwe n'amatafari rumeze neza, ubona ko n'imodoka zirimo, bacuruzaga ibintu byinshi bigiye bitandukanye, ni ahantutu hanini haparikwaga imodoka, zikaba zifite ubuziranenge.

Inzu y'ubucuruzi higanjemo ibikoresho byo mu nzu, ndetse n'ibiribwa bigiye bitandukanye n'udufuka bacuruzaga, two gushyiramo ibyo baguze ndetse n'amagi yavaga mu nkoko n'agatebe harimo amabas,e imikati ndetse n'ibindi n'amafanta.

Inzu yubatswe neza ifite amarangi gw'umweruru, ndetse n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga n'ago mazu n'igipangu cyubakishijwe amatafari ndetse n'ibyuma, ikaba iri ku muhanda amamodoka gakabagagenderagamo, ndetse n'amamoto.

Amazu g'ubucuruzi garimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, ndetse n'ibyapa bihari bigaragazaga ibikorwa biberaga mu ago mazu, higanjemo amashiga ga kijambere ndetse ago mazu gafite n'amabati g'umweru.

Amazu meza gw'ubucuruzi bacururizagamo ibijanye n'iby'ubukerarugendo, ingagi zibajwe mu biti ndetse n'ibindi bintu bashiragamo indabo harimo indabo z'imigano ,hari ibyapa bigaragazaga ibintu bikorerwaga muri ago mazu.

Inzu nziza ifite amabati agezweho. Ni inzu nziza y'ubucuruzi. Hari indabo, ibirahuri bimeze neza, ahantu ho gufatira akayaga. Ijyanye n'iterambere ryacu.

Amazu g'ubucuruzi gacuruzaga amacumbi. Hari ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorerwaga muri ago mazu, hakikijwe ibiti byiza bitanga amahumbezi. Amashanyarazi garahari, uruzitiro rwiza iterambere riraganje.

Butike irimo ibintu bigiye bitandukanye biri mu macupa ndetse na mabiswi na fata na makayi abanyeshuri bigiragamo ndetse n'amabahasha iyo bagiye mu bukwe bagashiragamo amafaranga bakagatanga ndetse n'imiceri n'ibiribwa bigiye bitandukanye bibagamo.

Urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye, ndetse n'amazu abamo ibijyanye n'iby'ubukerarugendo, nk'amahoteli abantu baturutse hirya no hino baraza bakinjira muri ayo mazu bakagura ibicuruzwa bikorerwamo, ndetse n'ibyapa ibyo kumuhanda bigaragaza ibikorwa bibera hafi aho ngaho.

Ubucuruzi bw'amazi gabaga mu bidomoro by'ibicupa bavomagamo, gabaga gafite ubuziranenge, gaciye mu nganda, ndetse n'uducupa tubagamo inzoga, ndetse n'ibikarito bibaga biteretse ahantu habugenewe.

Amazu g'ubucuruzi gagiye gatandukanye, ubu muri iki gihe tugezemo ntabwo wakwicara ni ukura amoboko mu mufuka kugira ngo ukore, amazu garahari meza go gucururizamo ndetse kuva ku mafaranga makeya rwose.

Amazu g'ugucuruzi gafite inzugi z'ibyuma zigiye zitandukanye ndetse mu icyo gipangu harimo: ibisheke, n'avoka n'igitoki, ubona ko ni ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mu ago mazu.

Iterambere rirakataje! Ibyapa hejuru y'amazu bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mu ago mazu. Hari amacumbi bacumbikiraga abantu badafite ubushobozi bwo kugera iyo bavuye, bakaza bakibera mu ago mazu.

Amazu y'ubucuruzi arahari. Abantu bacuruza ibintu bigiye bitandukanye, abantu baragenda ku mihanda nta kibazo, amamoto araparitse ku mpande y'amazu y'ubucuruzi, abantu binjira mu mabotiki bagahaha, intebe zo kwicaraho ku bakiriya baje, amapoto ashinze ku mihanda.

Amazu meza gari ku muhanda, n'ibiti bigakikije, hari n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa biberaga mo, ayo mazu ni amacumbi abantu baturutse kure badafite ahantu ho kuba, barazaga bakagaja mo bagacumbika mo.

Amazu g'ubucuruzi, ibikarito, ibyapa bigaragaza ibikorerwaga muri aga mazu. Bacuruzaga imiceri, bararanguzaga. Abakiriya barazaga bakicara, bagategereza serivisi babahereza, bakajana bakaja gucuruza mu gandi mabutiki gaciriritse.

Amazu g'ubucuruzi muri iki gihe ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora. Hariho amasima, amagare atwara amasima, bacuruzaga ibintu bijanye n'ibyo kubakisha.

Amazu g'ubucuruzi harimo abakobwa ndetse n'abahungu， ago mazu harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye， nk’amaterefoni n'amasaha，aho umuntu agura terefone， agahamagara umuntu atamwegereye， ubu byaroroshe.

Amazu ku muhanda gatandukanye, ibyapa bigaragaza ibikorwa bikorwa mwago amazu, amashanyarazi ku muhanda, abantu baragenda, amgare gabanyonzi garagenda, imodoka ziragenda, imitaka za emuteyene, ndetse n'ibindi.

Amazu yubatswe gagerekeranyije gageze hejuru, gagiye gafite hasi ndetse hari n'ibiduki binini cyane, n'ibigega, n'umuhanda gumeze neza n'amashanyarazi garahari rwose.

Amazu g'ubucuruzi gagiye gatandukanye, abantu barazaga bakagura, ibyapa bibaditse kw'ago mazu bigaragazaga ibikorwa bikorerwagamo, n'amamoto garaparitse ubona ko iterambere rirakataje.

Ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwa aho hantu bigiye bitandukanye, buri cyapa gifite ubusobanuro bwabyo, ndetse na numero ziba ziri kuri icyo cyapa, umuntu Ubushaka yahamagara izo nimero.

Umurama w'ibitunguru wagenewe waciye mu ruganda urawufata ukawujyana mu murima uhinze neza ukawusesa, nyuma y'igihe gitoya ukaza ukawukorera ugatangira gutanga umusaruro ukaguha amafaranga ahagije.

Umuhanda gumeze neza, ikirere ciza, amazu meza bacururizagamo, abantu barayagendaga mu muhanda nta kibazo, amashanyarazi ku muhanda, wagenda nijoro, umuhanda haba haba hameze nko ku manwa, iterambere rirakataje.

Amazu gameze neza， gagiye gakerekeranyije， ndetse hari n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorwaga muri ago mazu na nimero za terefone， wahagera ukabahamagara， iterambere rirakataje ubu ni ukuvugana n'umuntu mutegeranye ndetse ari kure yawe.

Imisego bacuruzaga，amamatora baragacuruzaga， iyo misego bayishiragamo imyenda，noneho bakaza kuzigura， bakazijana mu nzu bakazicaraho， iri terambere tugezeho basigaye baragira intebe zimeze neza cane， ku buryo buri umwe wese iyo azicayeho aba yumva nta kibazo na kimwe afite.

Imihanda myiza, amashanyarazi, amapoto, abantu bahagaze, amazu g'ubucuruzi, ibyapa bigaragaza ibikorerwaga muri ago mazu, amazu g'ubucuruzi bwa emuti ene ndetse n'amazu bacururizagamo imyenda.

Amazu ameze neza, na moto isize irangi ry'umuhondo, ayo mazu aragerekeranye, ndetse n'igiti, ibyapa bimanitse kuri ayo mazu, kigaragaza ibikorwa biberamo n'abantu bahagaze kuri ayo mazu.

Ahantu hameze neza hatuje ndetse hari n'indabo n'ibiti byiza binini bitangaga amahumbezi n'uruzitiro ruzitije insinga n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga aho hantu.

Amazu y'ubucuruzi, bararanguza, higanjemo ibintu by'amabotike, amabiswi, ibintu byo kunywa, amatwiste, n'imyunyu batekesha, ndetse n'ibirungo bashyira mu biryo.

Amazu g'ubucuruzi gagerekeranyije, gubatswe hariho n'ibyuma ndetse n'ibyapa bigiye bitandukanye, bigaragazaga ibikorwa biberaga mw'ago mazu. Harasa neza cane, gose nawe uhabonye wahifuza.

Umurama w'ibitunguru utanga umusaruro. Iyo wagwitayeho neza, ukagukorera waguteye mu murima ufite ifumbire. ugatanga umusaruro neza cyane kandi byitaweho pe.

Amazu ko gucururizamo higanjemo ibinyampeke biteretse mu mufuka, ibishimbo, ibigori, soya, ingano, uburo ndetse n'ibindi n'umunzani guteretse ku gatebe gakozwe mu rubaho bakunze kwita agataburete n'inzu irimo imbabura ndetse n'ibindi bikoresho n'imifuka.

Amazu ku muhanda y'ubucuruzi. Abantu bashyiraho imitaka bagacuruza amayinite. Amasaro bagakora amasaro imisatsi bagakoresha arabakobwa, arabahungu bose barakoreshaga nta kibazo.

Ahantu heza ,hari ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga aho hantu, indabo nziza, ikirere kimeze neza ,ikibuga ciza , imodoka za rukururana, amazu meza gameze neza cane.

Inzu zimeze neza zabugenewe, iri hafi y'umuhanda ndetse n'ibyapa bigaragazaga ibikorwa biberaga mu ago mazu kandi n'ibiti bihari bihakikije bitangaga amahumbezi, ubona ko hafite isuku.

Amazu gameze neza gajanye n'iterambere tugezeho, ndetse n'ibyapa bimaditse kuri ago mazu bigaragazaga ibikorwa biberagamo, bigaragara nk'aho bacuruzaga ibintu byo kujya by'ubwoko bugiye butandukanye.

Amazu y'ubucuruzi menshi cyane, abantu baturutse hirya no hino baraza bayafata, bakayacururizamo, ubungubu nta kwicara kuko amazu yarubatswe arahari rwose, kandi agezweho, yubakishijwe amakaro ndetse asize n'amarangi.

Amazu gasize amarangi y'umweru n'ubururu ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mwago mazu habagaho ahantu bazaga gukemura ibibazo bijanye n'amazi ndetse n'umuhanda gumeze neza n'ibiti byiza ahantu amagare gababaga gavanye ibicuruzwa mu isoko gabijananye ahandi.

Inzu bacururizagamo ibijyanye n'ibyo kunywa, ariko bibaga bifite ubuziranenge. Kuko ibyo bijanye n'ibyo kunywa bagababinyujije mu ruganda, ndetse n'ibyapa bigaragazaga ibyo amazina y'ibintu bacuruzaga banywaga.

Amazu gameze neza gafite ibipangu birebire byiza bijyanye n'iterambere tugezeho, insinga z'amashanyarazi zicomekeranyije zigiye zihereza amazu gatandukanye, harimo ibiti byiza bitangaga amahumbezi ku buryo hahe no kugira ikibazo cy'umwuka mukeya.

Amazu gameze neza gafite amabati g'umutuku, inzugi z'ago mazu zisizwe amarangi, abantu bicaye hanze bategereje serivise, ibiti bikikije nago mazu birahari bimeze neza cane.

Ama botike ni menshi ni ugukura amaboko mu mufuka ugacuruza kuko amapotiki ni menshi，imiryango irafunguye， aragendwa，abamotari，abanyonzi，hari amahumbezi hameze neza， indabo zihari amashanyarazi nag'ikigega gameze neza.

Inzu y'ubucuruzi bw'imyenda hari ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mwago mazu, ibipupe bambitse imyenda, amakanzu, amapantaro n'udusengeri kugira ngo abantu baze kugura babona neza ko ibyo baguze ari byiza.

Agasoko bacururizagamo karimo ama botike gagiye gatandukanye, ndetse bacururiza ku mifuka hasi inyanya, ibitunguru biri ku mufungo n'ibisheke n'amazu ga emutiyeni n'imitaka. Iyo izuba rivuye, imvura cyangwa imvura ikagwa biyorosa imitaka abandi bakaja kugama kwago mazu g'ubucuruzi.

Ahantu bacururizaga ibikoresho bigiye bitandukanye, cane cane ibyo kubabakisha harimo ingofani, imikubuzo, ndetse ni n'insinga bijyanye n'iterambere tugezeho barazaga bakabigura.

Amazu gameze neza gajanye n'iterambere gwubakishijwe amatafari ndetse no ku nsongero z'amazu habaga hariho ibyuma n'iby'aho bigaragazaga ibikorwa biberaga mu ago mazu, amashanyarazi ndetse n'ikirere cyiza.

Ubucuruzi bw'imyenda z'abakobwa ndetse n'iz'abahungu，cane cane imyenda zisa bazambikaga ibipupe， kugira ngo umuntu naza kugura， abone ko izo myenda zimeze neza， ubu muri iki gihe ni ugukura amaboko mu mifuka tugakora，nta rushoro rubaga rukeya ni ugukora cane.

Inzu z'ubucuruzi bacururizagamo ndetse n'ibikapu, abantu bajanagamo imyenda ndetse n'ibikoresho byo mu rugo, amabase n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye isoko ritunganye rifite isuku.

Amazwu gagezweho gasize amarangi ku nkuta ndetse gariho n'makaro abantu barazaga bagagakoreramo, ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mwago mazu ubonako gasa neza cane, nta nzu n'imwe idafite amarangi.

Amazu meza go gucururizwamo gagerekeranyije, hejuru hasi ibyaba bigaragazaga ibintu bikorerwaga mwa go mazu umuhanda gumeze neza, insinga z'amashanyarazi imodoka zibaga zipakiye ibintu, zikabizana zikabishyira mwago mazu.

Amazu y'ubucuruzi harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye ariko ubona ko ibyo bacuruza bifite isuku harimo ibyapa bigaragaza ibintu bacururiza muri ayo mazu ndetse na nimero za telefone. Iyo badahari urabahamagara bakakumenyesha igihe bazabonekera.

Uruja n’uruza rw’abantu, amamodoka gari kugenda, ndetse n’amamodoka gajanye n’ubukerarugendo. Umuhungu utwaye igare, amazu gasize irangi ry’umuhondo bacururizagamo ibintu bitandukanye, ndetse n’ibyapa bimaditse mw’ago mazu bigaragazaga ibikorwa bikorerwagamo.

Agasoko ko gucururizamo karimo abantu bagiye batandukanye, ndetse bacuruza ibicuruzwa bitandukanye. Ibirayi, inyanya, intoryi, ibitunguru na karoti, ndetse n'imitaka za emutiyeni, amazu go gucururizamo ndetse n'ibiti bapimiragaho izo myaka.

Inzu y'ubucuruzi hari mo ibikoresho bigiye bitandukanye, dukoreshaga mu buzima bwacu bwa buri munsi, amasafuriya dutekaga mo, udusumi dukoreshaga, imiceri z'ubwoko bwinshi butandukanye, ndetse n'ibindi.

Ubucuruzi ni bumwe mu nkingi ritugezaga ku iterambere, turacuruza ibintu bikagenda neza, ducuruza imyenda. Mu mazu ducururizagamo haba hari ibyapa bigaragaza ibintu ducuruzaga, hari na bamanike ku muhanda bambaye imyenda itwamamariza ubucuruzi bwacu.

Ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga aho hantu，ndetse n'ibicuruzwa bigiye bitandukanye，bishushanyijwe ku ibyo byapa na nimero za terefoni，aho abantu bacuruzaga， ubabuze wabahamagara ku izo nimero.

Imashini iteretse ku meza harimo injugu zivaga mu bigori bya mayizori, n'amazu bacurizagamo, ibyapa bigaragazaga ibicuruzwa by' ago mazu, hariho n'amarido ndetse gafite n'ibirahuri.

Amazu gameze neza g’amakaro muri iki gihe. Ubu ntakubaka amazu ngo ureke kuyakorera neza. Amazu gakeye ni go gagezweho, ndetse n’ibyapa bigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mu ago mazu.

Amazu gw'ubucuruzi gameze neza, garimo ibikoresho twifashishaga by'ibyuma, ndetse n'ibyo bakanikishaga imodoka, n'imbaho zibikozemo ndetse n'ibisheke biri muri iyo nzu, byose ni ibikoresho dukeneraga.

Inzu bacururizagamo ibintu bijanye no kurya, ndetse cyagihe ufite inzara urazaga ukagura, ukarya, habaga hari ibirayi bwose ubona ko abatetsi babaga barabizobereye, ari ab'umwuga n'ameza gameze neza.

Uruja n'uruza rw'abantu baturutse impande n'impande, imihanda zinyuranyemo zigiye zitandukanye, amazu gagerekeranyije, imitaka ya emutiyene, amamoto garagendaga, amamodoka, ibyapa ndese bimanitse kuri ago mazu, bigaragazaga ibikorwa biberagamo n'insinga z'amashanyarazi byose birahari.

Abantu barasenga, abagore, abagabo, bose basengera hamwe. Iterambere ryaraje ni ugusengera hanze, ikoranabuhanga ibyuma biririmba, ikirere kimeze neza, barangiza bagataha.

Amazu ameze neza, ajyanye n'iterambere tugezeho, ndetse asukuye, n'indabo z'ubwoko bugiye butandukanye, ubona ko ahantu waza ukaharuhukira, ndetse amafaranga akiyongera ku bantu bubatse ayo mazu.

Amahoteli gameze neza, abantu baragasuraga, amakaro garahari, inzugi ziteye amarangi, ibirahure bigabagamo. Gamezeze neza cyane.

Amazu g'ubucuruzi menshi cane gagiye gatandukanye aho buri nzu ifite icapa kigaragazaga ibikorwa bikorerwaga mu iyo nzu ndetse n'amazuga ga emutiyeni naga eyateli n'abantu bafite amagare ndetse n'imifuka ziretetse zirimo imyaka ndetse n'ibitunguru bacuruzaga mwago amazu.

Amahoteli garimo ibikoresho bigiye bitandukanye bijanye n'ubucuruzi bw' ubukerarugendo ingagi zibajwe mu biti barazibazaga, ameza gameze neza, intebe zimeze neza ndetse n'imisego zibaga mu ntebe n'ibishushanyo byiza barazaga bakabigura.

Ahantu hameze neza cane harimo n'avoka. Ubona ko hafite isuku, harakeye harasukuye, abantu baza bakahifotoreza. Kandi hameze neza buri mwe wese yahicara akaruhuka hafite isuku ihagije.

Umugore wicaye ari gucuruza itabi ry'ibibabi ubona ko ibyo akora abaga abizi neza. Ijyo tabi bafataga agati kabajwe maze bakarinyweramo, bagashyiramo n'umuriro, bakagenda bari kurinywa. Abantu babikoreshaga ni abasaza n'abakecuru.

Amazu meza gabugenewe gameze neza gagerekeranyije hasi hejuru, abantu bava hirya no hino baraza mwago amazu bakagura, habaga hariho ibyapa bigaragazaga ibintu bikorerwaga mwago mazu.

Ubucuruzi bw'amavuta, amavuta gagiye gatandukanye ku biciro, kuko ntago kangana, hari agafite litiro itanu, hari agafite litiro itatu, agafite litiro hari n'agandi mavuta gari mu tudomoro twa litiro itatu, ibiciro biba bitandukanye.

Ibicuruzwa bijyanye n'amavuta yo gushyira mu misatsi ku bagore ndetse n'abagabo. Barayafata bagashyira mu misatsi yabo ikamera neza, iba igiye itandukanye. Rwose ubu nta bwo iterambere rya dusize riracyahari.

Urujya n'uruza rw'abantu bazaga mu soko bagiye batandukanye, abagabo, abagore, abanyozi babaga baparitse muri iryo soko, abantu bagahaha bagahereza abanyonzi bakabitwara bakabijana, abacuruzaga ama inite bagacuruza, ni ibintu bigiye bitandukanye bacuruzaga.

Ahantu ho gucururizwamo ibicuruzwa higanjemo ibyo dukoreshaga mu mazu gacu bya palasitike, utuntu two gushiramo imyenda, ndetse n'ibindi bikoresho amabase, amadobo, ibiduki bashiragamo amazi, ndetse n'amasafuriya go gutekeramo.

Ibicuruzwa bipakiye mu mifuka yuzuye, ndetse bigiye bitandukanye bigaragara ko byeze neza byabonye umusaruro guhagije, hehe no kugira inzara byitaweho cane pe.

Ubucuruzi bw'imyenda za caguwa, higanjemo imyenda y a siporo, amasogisi yo kwambara, amasume yo kwihanaguza, ingofero zo kwambara, imikandara y'abapapa.

Ubucuruzi bw'inkweto za caguwa, inkweto z'abagore, ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora cane cane urubyiruko, rukihangira imirimo nta rushoro rubaga rukeya, amafaranga gose waba ufite ,gaguha kugera ku cerekezo ushaka kugeraho.

Ubucuruzi bugiye butandukanye harimo: imikandara abagabo bakenyezaga, ndetse n'ibikapu abagore bagendaga bashyize ku rutugu n'udutambaro abagore bitegaga ni ugukura amaboko mu mufuka tugakora nta rushoro rubaga rukeya.

Isoko ririmo ibijanye n'ibiribwa bigiye bitandukanye higanjemo ibyo kurya imiteja ndetse n'ibitunguru. Abantu baturutse hirya no hino barabizanaga, bakabicuruza ndetse n'abandi bakabigura badafite aho babigurira.

Urujya n'uruza rw'abantu baza guhaha mu gasoko harimo ibikoresho bigiye bitandukanye, ibyo twifashisha mu nzu ibitambaro, amarido ndetse harimo imitaka za emuti eni, za eyateli, ukaza ukabikura ku mafaranga udafite mu ntoki.

Inzu y’ubucuruzi, harimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, higanjemo ibyo kunwa nkama Fanta ndetse n’amaji gabaga mu ducupa, ni bimwe mu bicuruzi byujuje ubuziranenge, bibaga byanyuzwe mu ruganda, ndetse babikorana ubuhanga.

Uruja n'uruza rw'abantu baje mu gasoko guhaha， abagore，abagabo，amamodoka garaparitse， insinga z'amashanyarazi zinyuranyuyemo，ibiti birahari rwose，hameze neza，imitaka za emutiyeni， abacuruzi b'amayinite bose barahari.

Inanasi zimeze neza. Bigaragara ko bazuhiriye , bazisaruye zikuze, bazihaye ifumbire nziza, bazitayeho cyane. Imisaruro ziragenda neza mbese bimeze neza. Tuzikoramo umutobehe bimeze neza pe.

Agasoko karimo ibicuruzwa bigiye bitandukanye, harimo ibicuruzwa by'ibikoresho dukoreshaga mu rugo: imikoropesho, amadobo, amabase, ibikosi, amajage ndetse n'ibindi. Mbese n'ibiribwa byose bibaga biri mu ako gasoko.